Aha ngaha ni ubukangurambaga bwakorwaga ku muryango, aho uyugore afite itangazo ryanditse ngo ababyeyi bayobozi namwe urubyiruko duharanire kubaka umuryango utekanye uzira amakimbirane, aho buri wese afite amahirwe yo kugira ubuzima bwiza no kubaka iterambere.

Aha hari kuba igikorwa cy'ubukangurambaga bw'abajyanama b'ubuzima mu kwirinda no kurwanya sida mu baturage ndetse no gutanga imiti ya malariya nkuko bigaragara rero harimo barishimye cyane kandi baranezerewe.